Ni muri banki aho abaturage baza kubitsa ndetse no kuyabikuza, ndetse bakanasaba n'inguzanyo mu gihe bibaye ngombwa. Hari ibikoresho by'ikoranabuhanga. Hari abantu batanga serivisi nziza. Ndetse kandi hari n'umutegarugori uri gukamera, cyangwa se uri gufata amashusho.

Inzu iherereye muri Kigali, iragurishwa miliyoni mirongo irindwi n'eshanu, ni nziza, ifite igikoni cyiza, kigizwe n'utubati tutagira uko dusa, hasi ifite amakaro, ndetse inafite na kizimyamwoto, uyirebye urabona ko isa neza cyane.